Farumasi zifasha abarwayi kujya kugurayo imiti farumasi kandi zifasha abantu bahegereye kutarwara ngo baheranwe n'indwara cangwa ngo bahere urugo ahubwo bakaja kugura imiti kugira ngo bazikoreshe maze bakire indwara barwaye

Igiko n'imitobotobo ni ibiti byimeza karemano bishobora kuvamo umuti cyangwa se n'iyindi miti y'amatungo kandi na none igikuyu ni ahantu amatungo ashobora kurisha kugira ngo abashe kubaho.

Indabo zimejeje ziba ari nziza, kuko ahantu zimejeje zishobora kwera zikaba zavamo umuti abantu bakoresha iwabo mu rugo, cyangwa se bakaba bazisarura bakazijana ku isoko bakabona amafaranga bakeneye. Kandi aho ziteye zituma hasa neza kuko haba hagaragara neza.

Ibidariya iyo bikiri bitoya bivamo ubwatsi bw'amatungo, cyangwa se bikavamo imiti yo kuvurisha abana batoya, bityo bikagira akamaro ku bantu babikoresheje n'umuhinzi wabiteye, cyangwa se igihe byaba byarimejeje.

Ibidariya bivagamo imishingiriro abantu bashingiriza ibishimbo, kandi nanone ibidariya babikoresha nk'iyo umwana yarwaye umuriro bakabimukarabisha maze agakira babikoresha nk'umuti wo kuvura abana, nanone ibiko bivagamo imishingiriro kandi bikaba byavamo n'ubwatsi bw'amatungo igihe amatungo gariye ibibabi by'ibiko.

Ibidodoki ni ibimera bimera ku nzitiro z'abantu bakabirya bakarya amababi, cyangwa bikera ibihaza bakabirya. Na ho ibijojo ni ibihingwa byimeza amatungo akabirya, cyangwa se byakura abantu bakabikuramo imishingiriro yo gushingirira ibishyimbo.

Imihati ni ibiti karemano byaremwe n'Imana. Iyo bikuze amatungu arabirya, cangwa se bakabishira nk'ahantu hagati y'imirima, kugira ngo umurimo wawe utandukane n'uwundi, kandi ibi biti iyo wabiteye ahantu harakomera, ubutaka bwawe ntibube bwatwarwa n'isuri.

Urusasa rwifashishwa abantu bubaka nk'amazu kandi rukifashishwa igihe amatungo arurya, imihwahura yifashishwa baboha nk'ibirago cyamba se amababi yayo amatungo akayarya ,bityo rero ibi byose ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi no mu baturage.

Ikibonobono ni igiti cyimeza mu mirima, iyo kimaze gukura kivamo injegwe bakoresha bari gutega ibitoki, cyangwa se cyakuma bakanagicana. Amababi yacyo ihene zirayarya, cyangwa se cyavamo umurama ukabyara ibindi bibonobono.

Intusi ni igiti gikuraga, iyo gikuze, uwagiteye aragisarura yamara kugisarura akaba yagisaturamo inkwi zo gucana mu rugo cangwa se akaba yakibazamo imbaho akazazigurisha, kandi intusi zivamo umuti, iyo umuntu arwaye umutwe akazikoresha, akaziteka mu mazi akayakaraba, bituma akira umutwe.